Ikibuga cy'umupira w'amaguru gifite umuzenguruko usize irangi ry'umweru ndetse n'umutuku, gifite uruzitiro rw'ibyuma ndetse kikaba ku ruhande hari ubwambariro, ubwo bwambariro bukaba busakarishije amabati asize irangi ry'ibendera ry'u Rwanda.

Abagabo bahagaze mu rutoki. Imbere yabo hateye udutebe twa kinyarwanda. Mu rutoki barimo hakaba harimo n'abapolisi babiri, umwe afite inkoni mu ntoki. Bose bakaba bambaye ingofero uretse umugabo umwe wipfumbase.

Akayira kagaragara nk'ako mucyaro, harimo akayira gato cyane ,kumpande yako hari umucaca, uri kugenda wuma undi usa n'utoshye ,hakurya hari ahantu hasa n'igihuru.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ipikipiki, irimo kuza iza imbere, haragaragara nk'ahari umwijima, ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru, gashashemo amapove ndetse no hakurya.